Abayobozi mu nzego z'ubuzima, bahurira hamwe kugira ngo bashakire umuti ibibazo bijyanye n'uburwayi. Ni byiza ko dusobanukirwa kandi tukubahiriza inama batugira, bityo kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bifata umwanya bigatanga inama ndetse n'amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo abaturarwanda basobanukirwe neza akamaro ko kwirinda indwara, ikindi kandi batanga ubufasha ku bantu baba bafite ibibazo bitandukanye, bityo bakaba bafite ubuzima bwiza.

Gukoresha amazi mabi bitera uburwayi bugiye butandukanye, aho ushobora gusanga abana barwara inzoka, ikindi kandi amazi mabi atera umwanda, ni byiza ko buri munyarwanda wese asobanukirwa neza akamaro ko gukoresha amazi meza.

Ibigo bitandukanye by'ubuzima bikangurira buri munyarwanda wese kuba yakirinda indwara zitandukanye, ikindi kandi ibi bigo bifasha buri muntu wese kuba yabona ubujyanama ndetse n'imiti. Kugira ngo abashe kuba yakira uburwayi bugiye butandukanye.

Ni byiza ko ababyeyi bakurikirana imikurire y'abana, aho babajyana kwa muganga bakaba babakingira, ikindi kandi abaganga bagira inama ababyeyi z'uburyo bagomba kwita ku bana babo kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza buzira indwara.

Inzego zitandukanye z'ubuzima zihugura abanyeshuri bato ndetse n'abarezi babo ku buryo barengera ubuzima bwabo, ikindi kandi babagira inama ku kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza buzira indwara zigiye zitandukanye. Ni byiza ko twumva izi nama kandi tukazikurikiza kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Kwita ku buzima bw'umwana ni kimwe mu bimufasha kugira ngo akure afite ubuzima bwiza. Abana bato basuzumwa mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo babe bakingirwa, bityo bakure bafite ubuzima bwiza buzira indwara.

Kwita ku mikurire y'umwana, ni kimwe mu bimufasha kugira ngo akure afite ubuzima bwiza, abana bitabwa mu buryo butandukanye, aho babaha indyo z'amoko yose kugira ngo bagire intungamubiri zihagije, bityo bakure bafite ubuzima bwiza.

Abajyanama b'ubuzima batugira inama ku byerekeranye n'ubuzima bwacu kugira ngo tubashe kubaho twirinda kandi twivuza n'indwara zitandukanye bityo tube dufite ubuzima bwiza. Ni byiza ko twese tugana abajyanama b'ubuzima kugira ngo batugire inama kandi badufashe kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Gahunda yo gufasha abanyeshuri kubonera amafunguro ku ishuri, byabafashije mu buzima bwabo bw'imyigire, aho bibarinda kuba batakaza amashuri yabo, ikindi kandi iyo biga badafite inzara, babasha neza gukurikira amasomo yabo.

Abaganga bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo batange serivisi z'ubuzima. Bimwe muri ibyo bikoresho twavuga imyambaro baba bambayeye ndetse n'ibindi bikoresho bibarinda kugira ngo babe batakandura indwara zitandukanye.

Kugira amazi meza na byo bifasha abaturarwanda kugira isuku kuko isuku ari isoko y'ubuzima. Amazi afasha abaturarwanda gukora isuku, aho boza ibikoresho, bakaba banayoga bityo bakaba banabasha gufura imyambaro yabo.

Ni byiza ko ibigo by'amashuri bigira amazi ahagije kugira ngo byirinde indwara zitandukanye zishobora guterwa n'umwanda, twese dusobanukirwa akamaro ko kugirira isuku umubiri wacu kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Amazi meza ni isoko y'ubuzima. Amavomero rusange yafashije abaturarwanda kugirira isuku imibiri yabo ndetse bayifashisha mu gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Ni byiza ko dukoresha amazi meza kugira ngo twirinde indwara zitandukanye zishobora guterwa n'umwanda.

Abajyanama b'ubuzima mu nzego zitandukanye bahabwa amahugurwa kugira ngo batange serivise zinoze. Ni byiza ko abajyanama bose baba bagomba kwitabira aya mahugurwa, kuko bahabonera inama zibafasha kugira ngo batange ubujyanama bwizewe.

Kugira amavomero rusange adufasha kubona amazi meza, n'ibimwe mu bifasha abaturarwanda gukora amasuku bityo bakirinda indwara zitandukanye zishobora guterwa n'umwanda. Ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha amazi meza kuko biturinda uburwayi bugiye butandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bihuriza abantu hamwe kugira ngo babagire inama zitandukanye, zibafasha kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza, ni byiza ko tuba tugomba kugana ibi bigo kugira ngo batugire inama, kandi baduhe imiti itandukanye kugira ngo tubeho dufite ubuzima buzira indwara.

Gukoresha amazi meza ni bimwe mu bifasha abaturarwanda kubaho bafite ubuzima bwiza. Ni byiza ko dukoresha amazi meza mu gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, urugero nko koga, gufura imyambaro, koza ibikoresho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibiganiro bitandukanye byiga ku kurengera ubuzima, bigira uruhare mu kugira ngo bifashe abaturage kuba bagira ubuzima bwiza. Ni byiza ko twumva agaciro k'ibi biganiro kuko hafatirwamo imyanzuro ishobora kuba yafasha inzego z'ubuzima kugira ngo barengere abaturage.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga bakangurira abaturarwanda bose kwisuzumisha ndetse no kuba bafata isuzuma kugira ngo bamenye uburwayi barwaye, ikindi kandi ni ngombwa ko mu gihe wumvise ufite uburwayi ugana kwa muganga kugira ngo ube wafata imiti ku gihe.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima abaganga bambara imyambaro yabugenewe ndetse bakambara ibikoresho kugirango babashe kuba bakikingira indwara mu gihe batanga serivisi, ni byiza ko dukoresha imiti gakondo ndetse n'iyindi igiye itandukanye kugirango twikingire indwara zitandukanye.

Kanseri y'inkondo y'umura ni ikibazo gihangayikishije u Rwanda ndetse n'isi muri rusange. Ni byiza ko abakobwa ndetse n'abagore bagana amavuriro atandukanye kugira ngo babasuzume kandi babakingire izi ndwara kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza.

Kugira amavomero rusange aho abaturarwanda babasha kubona amazi meza, ni bimwe mu bibafasha gukora amasuku agiye atandukanye kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko buri munyarwanda wese yumva agaciro ko gukoresha amazi meza, kugira ngo yirinde indwara zitandukanye.

Kugira amazi ahagije bifasha abaturarwanda kuba bakora neza amasuku, ikindi kandi amazi kuko ari isoko y'ubuzima, abaturage bashi bakora imirimo itandukanye, yaba gukaraba intoki, gufura imyenda, koze ibikoresho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuvuzi bigira inama ababyeyi ku buryo bagomba kwita ku bana babo, bityo kandi babakangurira kugana aya mavuriro kugira ngo bakingire abana bityo bakure bafite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira ibikoresho byabugenewe bifasha abarwayi, aho bagira ahantu ho gutunganyiriza umwuka kugira ngo bafashe abarwayi batabasha guhumeka neza guhumeka, ni byiza ko tuba tugomba kugana aya mavuriro kuko adufasha, bityo bakaba barengera ubuzima bwacu.

Ibimera byifashishwa cyane mu kuvura indwara zitandukanye, raporo nyinshi zikorwa ku mwaka, zigaragaza neza uburyo abantu batandukanye, baba baragiye bifashisha ibimera bitandukanye mu kwivura indwara zitandukanye, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kwivuza ibimera bitandukanye kugira ngo twirinde indwara.

Inzobere mu buvuzi zikangurira abantu kandi zikabagira inama, ku buryo bagomba kwirinda indwara zitandukanye, ni byiza ko buri muturarwanda wese agana ibi bigo kugira ngo babe bamugira inama kandi bamuhe ubufasha ku bijyanye n'ibibazo baba bafite by'uburwayi.

Ibigo bitandukanye bishyira hamwe kugira ngo bibashe kuba byahuza imbaraga kugira ngo byite ku buvuzi, bityo bare Abanyarwanda babashe kubona imiti igiye itandukanye, kugira ngo bivure ndetse babashe no gukingirwa indwara zigiye zitandukanye.

Ubukangurambaga bujyanye no kugira ubuzima bwiza, bufasha abaturarwanda gusobanukirwa neza akamaro ko kwita ku buzima, ikindi kandi amahugurwa agiye atandukanye na yo, akangurira abanyarwanda gusobanukirwa agaciro k'ubuzima.

Ibigo nderabuzima ndetse n'abajyanama b'ubuzima, bakangurira ababyeyi kugirira isuku abana babo, ikindi kandi babagira inama yo kwita ku buzima bwabo kugira ngo abana babo bakure bafite ubuzima bwiza. Ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kwita ku buzima bwacu.

Gukoresha umwana imirimo ivunanye ni kimwe mu bimubangamira ndetse bikamubuza kuba yakura afite ubuzima bwiza, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kurinda abana bato imirimo ivunanye kuko bibangamira ubuzima bwabo.

Abajyanama b'ubuzima mu nzego zitandukanye, bahurira hamwe kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye; bityo bahabwe amahugurwa kandi bagirwe inama y'uburyo bashobora kuba bakoresha ubumenyi kugira ngo batange serivisi z'ubuzima.

Abajyanama b'ubuzima bafasha abaturarwanda kuba babasuzuma kandi bakabavura indwara zigiye zitandukanye. Ni byiza ko mu gihe ufite ibibazo uba ugomba kugana abajyanama b'ubuzima mbere yuko ugana ku mavuriro yisumbuye kuko bashobora kuba bagufasha.

Ni byiza ko abana batoya bakingirwa indwara zitandukanye bakiri bato kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza, abanyarwanda bagomba gusobanukirwa neza agaciro ko gukingiza abana mu gihe bakiri bato, kugira ngo babe babasha kurindwa indwara ziba zashobora kuba zababangamira.

Imbangukiragutabara, ni imodoka zabugenewe zifashishwa mu gukura abarwayi ku bigo nderabuzima zibajyana ku bitaro byisumbuye, mu gihe uburwayi bwabo buba bwananiye ibyo bitaro bitoya. Ni ngombwa ko mu gihugu haba izi modoka zihagije kugira ngo zibe zabasha kugera kuri buri murwayi uzikeneye.

Abatanga serivisi z'ubuvuzi, bahabwa amahugurwa agiye atandukanye ku byerekeye n'ubuzima, kugira ngo bityo babe babasha gutanga serivisi zinoze ku babagana. Ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko guhabwa amahugurwa ku byerekeye ubuzima.

Abakora mu nzego zitandukanye z'ubuzima batanga inama kandi bagatanga n'imiti ku burwayi bigiye bitandukanye, ni byiza ko buri wese wumvise ufite ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima ko aba agomba kugana ibi bigo kugira ngo bibashe kuba byamufasha bityo abeho afite ubuzima bwiza.

Ibigo by'ubuzima by'umwihariko ibyita ku bana, bikora ibishoboka byose kugira ngo abantu babeho bafite ubuzima bwiza, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro k'ibi bigo kugira ngo tube twabigana, bityo bibashe kuba byadufasha kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Amavomero rusange yafashije abanyarwanda kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, ni byiza ko amavomero yiyongera mu bice byose by'igihugu kugira ngo abaturarwanda babashe kwihaza ku mazi bityo bagirire isuku ingo zabo ndetse n'imibiri yabo babashe kubaho bafite ubuzima bwiza.

Abana bato bagirwa inama z'ukuntu baba bagomba kwita ku buzima bwabo, ikindi kandi abafite imirire mibi bitabwaho babaha amata ndetse n'ibiryo bibafasha kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza.

Gukora imirimo ivunanye ni bimwe mu byangiriza ubuzima bwacu, si byiza ko duterura cyangwa se twikorera imitwaro irenze ubushobozi bwacu kuko bituma twangirika, twese twumva agaciro ko kurengera ubuzima.

Inzobere mu buvuzi zitanga inama kandi zigatanga amahugurwa ku byerekeye ubuzima. Ikindi kandi, bafasha abaturarwanda kuba bakirinda indwara zitandukanye aho babagira inama kandi bakaba banabaha imiti kugira ngo bakire indwara zitandukanye.

Abajyanama ndetse n'abakangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bahugurira abaturage kugira ngo basobanukirwe neza akamaro ko kwirinda indwara ndetse no kuzisuzumisha kugira ngo abashe kuba bafite ubuzima bwiza, ni ngombwa ko buri wese asobanukirwa agaciro ko kuba yafata imiti kugira ngo abashe kuba yakira.

Inzobere mu buvuzi bagira inama ababyeyi kwita ku buzima bw'abana babo kuko bibarinda gukura bafite indwara zitandukanye, ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko kwita ku buzima bw'umwana, kuko bimurinda uburwayi butandukanye.

Twifashisha amazi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni byiza ko mu byo dukora byose dukoresha amazi meza kuko adufasha kwirinda indwara zitandukanye ushobora guterwa n'umwanda. Twese dusobanukirwa akamaro ko gukoresha amazi afite isuku kugira ngo twirinde indwara zitandukanye.

Ihuriro ry'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, bahurira mu nama zitandukanye kugira ngo bige ku bibazo bishobora kuba byugarije abaturarwanda bijyanye n'ubuzima, ikindi kandi aya mahuriro afatira hamwe imyanzuro ku bijyanye n'indwara zananiranye bityo kugira ngo abanyarwanda babeho bafite ubuzima buzira indwara.

Inzobere mu bijyanye n'ubuzima zihurira hamwe kugira ngo higwe kandi hashakwe ibisubizo ku ndwara zitandukanye zishobora kubazabangamira ubuzima ndetse ari nako dusobanukirwa akamaro ko kwirinda indwara ndetse tukajya tubasha gukumira indwara zitandukanye.

Abaturage bagana ibigo by'ubuvuzi kugira ngo bahabwe inama kandi bahabwe n'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye baba bafite, ni byiza ko buri muturarwanda wese agana ibigo by'amavuriro, kugira ngo abe yagirwa inama kandi ahabwe ubuvuzi.

Ku bigo by'amashuri, abana batozwa umuco wo kugira isuku. Bigishwa gukaraba neza bakoresheje amazi meza n'isabune, ikindi kandi bagira utugega tubafasha kubona amazi, bityo bakaba babasha gukora isuku, bakabaho birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Twifashisha amazi mu gukora ibikorwa bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni byiza ko mu byo dukora byose twihatira gukoresha amazi meza, kuko biturinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda. Twese dusobanukirwe akamaro ko gukoresha amazi meza.

Amavomero rusange afasha abanyarwanda kwihaza ku mazi kandi afite isuku, ni byiza ko buri duce twose tw'igihugu tugomba kugira amazi, aho abaturage babasha gukora isuku bitabagoye kugira ngo, babashe kuba bakirinda indwara zitandukanye zishobora kuba zaterwa n'umwanda.

Gukingiza umwana ndetse no gukurikirana ubuzima bwe, ni kimwe mu bimufasha kugira ngo akure afite ubuzima bwiza buzira indwara, ibigo bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, usanga bihurirwamo n'ababyeyi batandukanye, baba baje gukingiza abana kugira ngo babashe kuba babakingiza, bityo bakure bafite ubuzima bwiza.

Abana bato batozwa umuco wo gukura bagira isuku. Bigishwa gukaraba bakoresheje amazi meza n'isabune, bityo bikaba byabarinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda. Ni byiza twese ko dusobanukirwa akamaro ko gukaraba intoki, dukoresheje amazi meza n'isabune.

Kugira amavomero rusange, byafashije abaturarwanda kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda. Ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha amazi meza, kuko biturinda kuba twakandura indwara zitandukanye, ziterwa no kuba twagize isuku idahagije.

Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ni kimwe mu bidufasha kwirinda indwara zitandukanye zishobora guterwa n'umwanda, ibigo by'amashuri by'umwihariko bikangurira abanyeshuri gukaraba intoki, buri uko bavuye ku bwiherero ndetse n'igihe bagiye kurya kugira ngo bashobore kuba bakirinda izi ndwara ziterwa n'umwanda.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima by'umwihariko ibitanga serivisi zireba abakobwa ndetse n'abadamu bifasha abaturarwanda kubaho bafite ubuzima buzira indwara, ni byiza ko ibigo babigana kugira ngo bibashe kuba byabagira inama, ikindi kandi babahe na serivisi z'ubuvuzi.

Abaganga ndetse n'inzobere mu buvuzi bahurira hamwe kugira ngo bige ku bibazo bishobora kuba byagaragara mu baturage, bityo bakabarinda indwara, ikindi kandi babagira n'inama ku buryo bagomba kwitwara mu gihe bagize ibibazo by'uburwayi.

Inzego zitandukanye z'ubuzima zigira amahugurwa kandi zigatanga ubujyanama ku byerekeranye n'ubuzima, bityo kugira ngo umuturarwanda wese abeho afite ubuzima bwiza buzira indwara. Ni byiza ko twese tuba tugomba kwitabira izi nama ndetse n'amahugurwa kugira ngo tubeho dusobanukiwe agaciro ko kurengera ubuzima bwacu.

Inzobere ziturutse mu bihugu bitandukanye ziza gutanga amahugurwa ku kugirira isuku umubiri ndetse ikindi kandi batanga amahugurwa ku bijyanye no kuba bakirinda indwara zigiye zitandukanye bityo abaturarwanda bakagira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga ndetse n'amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima, ni bimwe mu bifasha abantu kugira ngo basobanukirwe neza akamaro ko kwirinda indwara, ni byiza ko buri wese asobanukirwa agaciro k'ubuzima bwe bityo akaburinda kuba bwafatwa n'indwara zitandukanye.

Inzobere mu buvuzi bahuriza hamwe kugira ngo bige ku buryo baba bashobora kubona imiti y'indwara zigiye zitandukanye. Ikindi kandi iyo bahuye gutya babasha kuba bahuza ibitekerezo bityo indwara zananiranye zikaba zabonerwa imiti.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, hamwe n'abaganga babo, bafatanya kugira ngo bakingire abaturarwanda indwara zigiye zitandukanye kugira ngo bityo umuturarwanda wese abashe kubaho afite ubuzima bwiza buzira indwara.

Twifashisha amazi dukora ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko si byiza gukoresha amazi y'imvura mu gihe tuyanywa, tuyakoresha isuku mu kanwa, tuyoga ndetse n'ibindi, ni byiza ko dukoresha amazi meza mu gihe dukorera isuku umubiri wacu.

Kugira amavomero atanga amazi meza hirya no hino mu gihugu, byafashije abaturarwanda kugira isuku kuko bayakoresha bakora amasuku mu ngo z'iwabo urugero nko guteka, gufura imyambaro, koza ibikoresho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inzego zitandukanye zigira ibikoresho bitandukanye, urugero nk'imiti ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi. Ni byiza ko tuba tugomba kugana ibi bigo kugira ngo bidufashe bityo tubeho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Mu bihe byo kwibuka, umuntu ashobora kuba yagira ibibazo bitandukanye by'ihungabana kubera ibihe aba yibutse, ni byiza ko mu gihe hagaragaye ibibazo nk'ibi, tuba tugomba kwegereza aba bantu inzobere mu buvuzi, bityo bakabagira inama kandi bakaba babasha kubafasha.

Abacuruza imiti ifasha abantu kwivura indwara zitandukanye, banezezwa n'uko abakiriya baza babagana ari benshi bityo bakabasha kugura imiti itandukanye ishobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni byiza ko buri wese aba agomba kugana aba bacuruza iyi miti kugira ngo babe babafasha bityo babone imiti ibavura uburwayi bugiye butandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi, bikangurira abantu bafite ibibazo byo mu mutwe kuba babigana kugira ngo bibe byabafasha, kuko baba bafite imiti ishobora kuba babaha kugira ngo bakire uburwayi bugiye butandukanye bwo mu mutwe.

Abatanga serivisi z'ubuzima, batugira inama kandi bakatubwira uburyo tugomba kwitwara mu gihe dufite imyitwarire idasanzwe bityo ko tuba tugomba kubagana kugira ngo babe badufasha bityo tubeho dufite ubuzima bwiza, buzira indwara zigiye zitandukanye.

Ubukangurambaga butandukanye bujyanye no kuba hakirindwa indwara zitandukanye, bufasha abaturarwanda gusobanukirwa neza akamaro ko kwirinda indwara, ni byiza ko buri wese yifatanya n'abandi kuba yarwawanya indwara zitandukanye, kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gitanga inama kandi kikaburira buri muturarwanda wese, gusobanukirwa agaciro ko kurengera ubuzima bwe. Ni byiza ko twese twuha agaciro ko kurengera ubuzima bwacu bityo kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bikangurira abaturarwanda kubigana kugira ngo bibafashe, by'umwihariko abafite ibibazo byo mu mutwe ni ngombwa ko baba bagomba kugana aya mavuriro kuko aba yabafasha, akabagira inama kandi akabaha n'imiti itandukanye, kugira ngo babashe gukira uburwayi bwabo.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima zigomba kuba zagutse kugira ngo zibashe kwakira abantu benshi, ikindi kandi izi nyubako zigomba kuba zifite ubusitani, aho zishobora kwakirira abarwayi batandukanye bityo kugira ngo babashe kuba bagira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga bujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bifasha abaturarwanda gusobanukirwa neza ko buri gihe bumva bifiteho ibimenyetso bidasanzwe baba bagomba kugana amavuriro ndetse n'abajyanama b'ubuzima, kugira ngo babe babagira inama y'uburyo bagomba kwitwara.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bikangurira abakozi kubigana kugira ngo bibe byabagira inama ku byerekeye n'ubuzima bwo mu mutwe, ni byiza ko abakuze tuba tugomba kugana aya mavuriro kugira ngo batugire inama kandi babe babasha kudufasha mu gihe tuba twagize ibibazo bitandukanye kandi baduhe imiti.

Ni byiza ko iyo umuntu yiyumvishe ko abaye afite ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'ibijyanye n'imitekerereze, agomba kwegera abaganga ndetse n'abandi babihuguriwe, kugira ngo bamugire inama bityo bitaba byashobora kuba byamuviramo ingaruka zikomeye.

Abajyanama b'ubuzima batanga inama kandi bagahugura ababyeyi ku buryo baba bagomba kwita ku bana babo ikindi kandi babaha amahugurwa atandukanye ajyanye n'ubuzima kugira ngo babashe kurengera ubuzima bwabo, ni byiza ko buri wese yita ku buzima bwe kugira ngo abashe kubaho afite ubuzima bwiza.

Inzobere mu buvuzi zikangurira abantu bose uburyo bashobora kwirinda indwara ikindi kandi zibakangurira kuba bakisuzumisha indwara kugira ngo babashe kubaho bafite ubuzima bwiza, iyi foto iri kugaragaza abantu bahuriye ahantu hamwe kugira ngo bafate inama zitandukanye ku bijyanye n'ubuvuzi.

Mu bice bitandukanye by'igihugu, hagaragara abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, aho usanga abenshi baba baravuye mu miryango yabo, kubera ibyo bibazo, ugasanga babayeho nabi, kuko batabashije gukurikiranwa ngo babashe kuvurwa ubwo burwayi bwabo.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko abatanga serivisi z'ubuvuzi bwo mu mutwe, bigira inama abantu kuba babigana kugira ngo bibe byabafasha bityo babe bafite ubuzima bwiza, ni byiza ko twese tugana ibi bigo kugira ngo babashe kuba badusuzuma.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bikangurira abaturarwanda kuba babigana, by'umwihariko abafite ibibazo byo mu mutwe, baba bagomba kugana aya mavuriro kugira ngo babafashe, kuko babagira inama, kandi bakabaha n'imiti, bityo bakaba bafite ubuzima bwiza.

Inzego z'ubuzima zigira iminsi mpuzamahanga yahariwe kurwanya indwara zitandukanye. Urugero twavuga izerekeranye no mu mutwe ndetse n'ahandi. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kurengera ubuzima bwacu, kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga batugira inama kandi bakatubwira uburyo tugomba kwitwara iyo dufite ibibazo bitandukanye kugira ngo tubashe kuba twakira kandi tuba dufite amagara mazima. Ni byiza ko tuba tugomba kubahiriza izi nama kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bikangurira abantu bafite ibibazo bitandukanye kuba babigana by'umwihariko abafite ibibazo byo mu mutwe kuko biba byashobora kubavura bityo bakabaho bafite ubuzima bwiza kimwe n'abandi.

Abaganga bakora ubukangurambaga ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe, ikindi bashishikariza buri wese waba yiyumvaho ibimenyetso by'uko yaba afite uburwayi bwo mu mutwe, ashobora kuba yagana ibitaro ndetse n'amavuriro atandukanye, kugira ngo babe bamufasha.

Inzego z'ubuzima zitanga inama kandi zigatanga n'ubufasha ku bantu bafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe, ni byiza ko tuba tugomba kugana izi inzego z'ubuzima kugira ngo zidufashe kuko zishobora kuba batugira inama, ikindi kandi batanga n'ubufasha ku byerekeranye n'ubuvuzi.

Inzego z'ubuzima zikangurira abaturarwanda bose kuzigana kugira ngo, babagire inama kandi babahe amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima, ikindi kandi bakangurira ababyeyi kuba babigana kugira ngo babasuzume indwara zo mu mutwe, kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza buzira indwara.

Inzobere mu bijyanye n'ubuzima zikangurira abantu bose kwisuzumisha indwara zijyanye no mu mutwe. Ni byiza ko mugihe wumvishe ufite ikibazo kidasanzwe, ugana amavuriro akwegereye kugira ngo babashe kuba bagufasha, bityo ugire ubuzima bwiza buzira indwara.

Indwara zo mu kanwa ni kimwe mu bibazo bihangayikishije abaturarwanda, izi ndwara abaganga batandukanye bagerageza kuzivura, ariko ni ngombwa ko buri wese asobanukirwa akamaro ko kugirira isuku mu kanwa, kuko bimurinda kurwara indwara zitandukanye.

Ku mavuriro atandukanye, hagaragara ibikoresho bifasha abantu kwivuza amenyo, ikindi kandi hagaragara abaganga, aho bashobora kuba bafasha abafite ibibazo by'amenyo ndetse n'indwara zo mu kanwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Kwita ndetse no kugirira isuku amenyo ni bimwe bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza. Ni ngombwa ko buri muntu wese asobanukirwa neza kumenya koza amenyo ye igihe amaze kurya, kuko bimufasha kwirinda indwara zo mu kanwa ndetse n'iz'amenyo muri rusange.

Mu mavuriro atandukanye hagaragara ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, bifasha abaganga kuvura indwara zigiye zitandukanye. Ni byiza ko mu gihe twumvishe tugize ibibazo by'ubuzima, tugana amavuriro atandukanye kuko baba bafite ibikoresho bitandukanye bishobora kuba byifashishwa kugira ngo batuvure uburwayi butandukanye.

Mu kugirira isuku amenyo twifashisha ibikoresho bitandukanye twavuga corogate ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye twagenewe gukora isuku yo mu kanwa, ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akantu ko kugirira isuka amenyo.

Kugirira isuku amenyo biyarinda uburwayi bugiye butandukanye. Ni byiza ko twita kugirira isuku yo mu kanwa ndetse no gusukura amenyo kuko bidufasha kuba twakwirinda indwara zigiye zitandukanye, bityo tukaba dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Mu kugirira isuku amenyo, twifashisha ibikoresho bitandukanye, bimwe muri ibyo twavuga nk'utugozi twabugenewe, twinjizwa hagati y'amenyo, bityo tugakuramo imyanda igiye itandukanye, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kugirira isuku amenyo, kuko biturinda indwara zo mu kanwa.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bikangurira abantu bose bafite ibibazo byo mu kanwa ndetse n'iby'amenyo, kuba babigana kugira ngo bibe byabafasha, bifashisha ibikoresho bitandukanye bityo kugira ngo babe batanga serivisi nziza ku barwayi.

Uburwayi bwo mu kanwa ni kimwe mu bibazo bihangayikishije u Rwanda muri rusange, ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bikora amasuzuma kugira ngo barebe niba ntabafite uburwayi bwo mu kanwa kugira ngo babashe kuba babafasha bityo nabo babeho bafite ubuzima bwiza.

Inzobere mu buvuzi zifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo bafashe abarwayi kuba bavura indwara zitandukanye by'umwihariko indwara zo mu kanwa, ni byiza ko mu gihe ufite ibibazo bitandukanye by'umwihariko ibyo mu kanwa ugana aya mavuriro kugira ngo babashe kuba bagufasha, bityo ubeho ufite ubuzima bwiza.

Kugirira isuka amenyo biyarinda uburwayi bugiye butandukanye. Ni byiza ko dusobanukirwa agaciro ko gukora isuku mu kanwa, kuko biturinda uburwayi bugiye butandukanye, hatyo tukabaho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni byiza gutoza abakiri bato gukura bafite umuco wo gukorera isuku amenyo ndetse no mu kanwa kugira ngo birinde indwara zitandukanye, ibi bibarinda kuba barwara indwara z'amenyo, bityo bakaba babasha kubura cyangwa se gutakaza amenyo yabo mu gihe bakiri bato.

Ni byiza gutoza abana bato kumenya kugira umuco wo kugirira isuku amenyo kuko bibarinda gukura bafite uburwayi butandukanye bwo mu kanwa, ni byiza ko buri munyarwanda wese abisobanukirwa agaciro ko kugirira isuku amenyo.

Indwara zo mu kanwa ni kimwe mu bibazo bihangayikishije u Rwanda ndetse n'isi muri rusange. Mu gihe dufite ibibazo, ni byiza kugana kwa muganga kugira ngo badufashe kuko baba bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kuba baturinda kandi badukingire izi ndwara.

Ni byiza ko abana bato bigishwa gukorera isuku amenyo yabo bakiri abana kuko bibarinda indwara zo mu kanwa ndetse n'izamenyo muri rusange ni ngombwa ko buri muturarwanda wese asobanukirwa neza ko igihe amaze kurya agomba koza amenyo kandi agakoresha umuti ndetse n'uburoso kugira ngo amenyo ayakorere isuku bihagije.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bigira ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi bafite ibibazo byo mu kanwa, ndetse n'amenyo muri rusange. Ni byiza ko mu gihe dufite ibibazo bitandukanye by'amenyo, tuba tugomba kubasanga kuko bashobora kudufasha, bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza buzira indwara zo mu kanwa.

Iminsi yahariwe kwita ku menyo, ijya ifasha abantu, kugira ngo basobanukirwe neza akamaro ko kwita ku ndwara, ndetse no kuzirinda, bityo babeho bafite ubuzima bwiza, ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa, akamaro ko kwirinda indwara zo mu kanwa, ndetse n'amenyo.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bituvura kandi bikadusuzuma indwara zitandukanye zo mu kanwa. Ni byiza ko mu gihe wumvishe ufite ibibazo ugana aya mavuriro kuko bagufasha kandi bakaguha imiti bityo ukabasha kuba wakira indwara zitandukanye zo mu kanwa.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi, cyane cyane ibyita ku menyo, bigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babe bakurikirana ubuzima bw'amenyo, ni byiza ko tuba tugomba kugana ibigo kugira ngo badusuzume kandi baduhe ubufasha.

Kugirira isuku amenyo ni byiza kuko biyarinda kuba yarwara indwara zigiye zitandukanye, mu kugirira isuku amenyo dukoresha ibikoresho bitandukanye urugero harituguzi twabugenewe twinjizwa hagati y'amenyo kugira ngo ube wabasha gukuramo imyanda. Ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko kugirira amenyo isuku.

Ibigo bitandukanye by'ubuvuzi bw'amenyo bifasha abatura Rwanda kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa, ni ngombwa ko mu gihe wumva ufite ibibazo bijyanye n'amenyo ubagana kugira ngo bakugire inama kandi babe babasha kukuvura kugira ngo nawe ugire ubuzima bwiza.

Kugirira amenyo yacu isuku ni bimwe mu biyarinda uburwayi bugiye butandukanye, ikindi kandi tukaba dufite amenyo akeye afite isuku, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kugirira isuku amenyo, ndetse no kwirinda indwara zigiye zitandukanye zo mu kanwa kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Inzobere mu buvuzi zikangurira buri muntu wese kugirira isuku amenyo ndetse no mu kanwa muri rusange, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibikoresho bitandukanye kugira ngo tugirire isuku amenyo bityo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Kugirira isuka amenyo biturinda kuba twarwara indwara zitandukanye zo mu kanwa, ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa agaciro ko kugirira isuku amenyo ye, kuko biyarinda uburwayi bugiye butandukanye, bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni byiza kugirira isuku mu kanwa ndetse no koza amenyo ku buryo buhagije kugira ngo tube twakirinda indwara zishobora guterwa n'umwanda, twese dusobanukirwa akamaro ko kugirira isuku amenyo yacu kuko biyarinda uburwayi.

Inzobere mu buvuzi bw'amenyo zifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo basuzume kandi bavure abarwayi baba bafite ibibazo by'amenyo, ni byiza ko mu gihe dufite ibibazo by'amenyo tuba tugomba kugana aya mavuriro kugira ngo babe badufasha bityo tugire ubuzima bwiza.

Kwita ku isuku y'amenyo ndetse n'akanwa bifasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza, ni ngombwa ko buri wese amenya ko mu gihe arangije kurya agomba gukorera isuku amenyo ye byibura hagati y'iminota ibiri ndetse n'itanu.

Mu bigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima bagira ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye by'umwihariko indwara zo mu kanwa ndetse n'amenyo, ni byiza ko tugomba kugana ibi bigo kugira ngo bibe byadufasha.

Inzego zitandukanye z'ubuzima zikangurira umuturarwanda wese kugirira isuku amenyo akoresheje ibikoresho byabugenewe. Ni byiza ko twese twumva agaciro ko kugirira isuku amenyo ndetse no mu kanwa kuko biturinda indwara zitandukanye ushobora guterwa n'umwanda.

Mu bigo by'amashuri abana bato batozwa kugirira isuku amenyo aho bahabwa ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo babe bakora ayo masuku, ni byiza ko buri wese asobanukirwa akamaro ko kugira isuku mu kanwa kuko bituma tubaho dufite ubuzima bwiza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, gitanga ubujyanama kandi kigatanga n'isuzuma ku ndwara zigiye zitandukanye, bityo kugira ngo gifashe abaturarwanda kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko twisuzumisha indwara zitandukanye, kugira ngo tubashe kumenya uko duhagaze.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bigira inama abakuze kubigana kuko bibagira inama, ikindi kandi babafasha kugira ngo basobanukirwe uburyo bashobora kurengera ubuzima bwabo, ni byiza ko abakuze baba bagomba kugana ibi bigo kuko bibafasha kugira imisazire myiza.

Abakuze iyo bakurikije inama bagirwa n'abaganga, ikindi kandi bagafata neza ubuzima bwabo bakora imyitozo ngororamubiri bakabasha gufata imiti, nabo basaza bafite ubuzima bwiza, ikindi kandi buri wese abagomba kumva umumaro wo gukora imyitozo ngororamubiri.

Inzego z'ubuzima zikangurira abakuze kuzigana kugira ngo babe babagira inama, ikindi kandi babafasha kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri bityo babeho bafite ubuzima bwiza buzira indwara zitandukanye.

Inzobere mu buvuzi zigira inama abakuze, gukora imyitozo ngororamubiri kuko bibarinda kandi bikabafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bidufasha kugira ubuzima bwiza.

kugira umuco wo gusoma by'umwihariko ku bakuze ni kimwe mu bibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza bw'amaso kuko bishobora kuba byabarinda guhuma, ni byiza ko abakuze bakomeza kwitoza gusoma kugirango barinde kandi barengere amaso yabo.

Inzobere mu buvuzi zikangurira abantu bose by'umwihariko abakuze kugirira isuku umubiri wabo, iyo boga bibarinda indwara zigiye zitandukanye bityo bakabasha kuba bafite ubuzima buzira umuze kandi buzira indwara zigiye zitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi, zikangurira abakuze gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no gukina imikino igiye tandukanye, ibafasha kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kurengera ubuzima bwacu bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza

Gukorera imyitozo ngororamubiri ahantu heza hari akayaga, hari ibimera, aho bidufasha guhumeka neza, bifasha umubiri wacu kuba wagira ubuzima bwiza. Ni byiza ko buri muntu wese asobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko bifasha ubuzima bwacu.

Abakuze bagirwa inama zo gukoresha imbuto, imboga ndetse n'ibindi bitandukanye, kugira ngo bakomeze kugira amasaziro meza. Ni byiza ko twumva agaciro ko gukoresha imboga n'imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye, kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Gufata amafunguro agizwe n'imboga n'imbuto ni kimwe mu bifasha abakuze gukomeza kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko buri wese afata amafunguro yiganjemo imboga ndetse n'imbuto kugira ngo bibe byamurinda indwara zitandukanye bityo abeho afite ubuzima buzira indwara.

Ibigo by'ubuvuzi bagira ibikoresho bitandukanye, bifasha abageze mu zabukuru kuba babasha gukora siporo ndetse no kuba babasha gutembera kugira ngo na bo banezezwe n'ubuzima, bityo ni ngombwa ko buri wese asobanukirwa neza akamaro ko kuba yakitabira gukoresha ibi bikoresho.

Abakuze na bo bahabwa inama kandi bagahabwa n'ubuvuzi kugira ngo na bo basaze bafite ubuzima bwiza. Ni byiza ko mu gihe abakuze bumvise bafite ibibazo bidasanzwe, bagomba kugana amavuriro kugira ngo na bo babashe kuba babafasha.

Abakuze nabo bakoresha amazi kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza, ni byiza ko dukoresha amazi meza mu kugira ngo dufashe imibiri yacu kuba yakwinda indwara zitandukanye. Twese dusobanukirwe akamaro ko gukoresha amazi kandi meza kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi, bikangurira abakuze kubigana kugira ngo bibagire inama, ikindi kandi babashe kuba babafasha mu buzima bwabo, ni byiza ko abakuze bagana ibi bigo kugira ngo bibashe kuba byabafasha, ikindi kandi babagira n'inama ku bijyanye n'ubuzima bwiza.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bigira ibikoresho bitandukanye bifasha abarwayi, urugero twavuga nk'abagize ibibazo by'imvune, abarwaye imigongo, haba hari ibikoresho bibafasha kugira ngo babashe kuba bagenda, ikindi kandi bakabasha kuba bakira ibibazo bitandukanye bafite.

Inzego z'ubuzima zitandukanye zidukangurira gukora imyitozo ngororamubiri kuko bidufasha kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko buri muturarwanda wese yumva agaciro ko gukora imyitozo ngororamubiri, kuko biturinda indwara zitandukanye bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza.

Kwa muganga hagaragara ibikoresho bitandukanye bifasha abakuze, kuba bakora imyitozo ngororamubiri, ikindi kandi ibikoresho bibafasha abantu bose kugira ngo bagire ubuzima bwiza kuko babyifashisha, bakora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye.

Ibigo by'ubuvuzi bitandukanye bifasha abakuze kugira ubuzima bwiza, aho bibafasha gukora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza ko abakuze ndetse n'abakiri bato tugana aya mavuriro kugira ngo badufashe kuba twagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Abaganga bagira inama abakuze kwita ku buzima bwabo ikindi kandi babagira inama zitandukanye ku buryo baba bagomba kurengera amagara yabo bityo bagasaza nabo bafite ubuzima bwiza buzira indwara zitandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri ku bakuze bibarinda kuba barwara indwara zitandukanye bityo bakagira amasazi meza, ni byiza ko twese ndetse n'abakuze badasigaye twihatira gukora imyitozo ngororamubiri kuko bidufasha kugira ubuzima bwiza.

Ibigo bitandukanye by'ubuzima bifasha abakuze kugira ngo na bo basaze bafite ubuzima bwiza, bibagira inama, kandi bikabaha imiti itandukanye ibafasha kugira ngo bagire amasaziro meza, bityo iyo miti ikaba ibafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inzego z'ubuzima zigira iminsi mpuzamahanga yahariwe ku kurwanya indwara runaka, urugero twavuga nk'indwara zishobora gufata abagore nka kanseri ndetse n'izindi zitandukanye, ni byiza ko dusobanukirwa iyi minsi kugira ngo tube tubashe kurwanya indwara zitandukanye.

Inzego z'ubuzima zikora ibishoboka byose kugira ngo zibe zashaka ibisubizo bijyanye n'ubuzima, iki cyapa kigaragaza ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyabonewe urukingo.

Mu nzego z'uburezi, bagira umwanya wahariwe guhugurira abanyeshuri kwirinda indwara, zishobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kwirinda izi ndwara, kuko dushobora kutubuza kugira ubuzima bwiza.

Ibigo by'ubuzima bitandukanye mu Rwanda, bifasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza, aho bibaha ubujyanama ku buzima bwabo ikindi kandi, bakingira indwara zigiye zitandukanye bityo kugira ngo babashe kubaho bafite ubuzima bwiza.

Inzobere mu buvuzi batugira inama zo gukoresha imbuto ndetse n'imboga kugira ngo twirinde indwara zitandukanye bityo tugire ubuzima bwiza, ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukoresha imbuto ndetse n'imboga kuko bidufasha kugira imirire myiza.

Indwara z'uruhu ni zimwe mu zibangamira ubuzima bw'umuntu, ni byiza ko mu gihe twagize ibibazo nk'ibi ngibi, tugana kwa muganga kuko bashobora kuba badufasha bakaduha ubujyanama, ikindi kandi baduha n'imiti kugira ngo tubashe kuba twakira indwara zitandukanye ziterwa no kuba twayigira ibibazo bitandukanye by'uruhu.

Ubujyanama ndetse n'ubukangurambaga bufasha abaturarwanda kuba basobanukirwa neza akamaro ko bakoresha imiti neza. Ni byiza ko buri muturarwanda yitabira kugira ngo yumve neza akamaro ko kwisuzumisha ndetse no kwirinda indwara kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Kwirinda virusi itera sida ndetse no gufata imiti ku bantu banduye ni byiza kuko bituma ubuzima bwabo bugenda neza kandi ni ngombwa ko buri munyarwanda wese asobanukirwa uburyo bwo kwirinda virusi itera sida.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gishimira abantu baba baragize uruhare kugira ngo abantu bakomeze bagire ubuzima bwiza, by'umwihariko iyi foto igaragaza umuyobozi ashimira, abantu bo mu bigo by'abiha imana, badahwema kugira ngo bafashe abantu gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga ndetse n'ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima, bifasha abantu kuba basobanukirwa agaciro ko kwirinda indwara, ikindi kandi binabafasha kuba bakigirira icyizere bityo bakaba bafite ibyizere by'ubuzima ni byiza ko tuba twagana ibi bigo kugira ngo bibe byadufasha.

Inzego z'ubuzima zitandukanye zikangurira buri muturarwanda wese kwisuzumisha ndetse no kwivuza hakiri kare, mu gihe wumvise wagize uburwayi kuko bibafasha kugira ubuzima bwiza, bityo bakaba babasha gukora imirimo ibateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibigo bitandukanye bifite aho bihuriye n'ubuzima bigira inama abaturarwanda kuba bafata neza imibiri yabo, ikindi kandi bibagira inama yo kwirinda ibyo ari byo byose bishobora kwangiriza ubuzima bwabo, bityo kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza buzira indwara

Ibigo bitandukanye by'ubuzima bifasha abaturarwanda kugira babeho bafite ubuzima bwiza buzira indwara, ni byiza ko mu gihe twumvise tugize ikibazo cy'ubuzima tuba tugomba kugana ibi bigo kugira ngo batugire inama, ikindi kandi baduhe n'ubuvuzi bushobora kuba byadufasha kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bigira inama kandi bigakangurira buri muntu wese, kubigana kugira ngo babe bamugira inama kandi bamuha ubufasha ku bijyanye n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima baba bafite, ni byiza ko twese tugana ibigo kugira ngo babashe kuba batugira inama zijyanye n'ubuzima.

Impuguke mu bijyanye n'ubuvuzi bakangurira abantu bose ku buryo bakwitwara kugira ngo barengere ubuzima bwabo, ikindi kandi babagira inama ko mu gihe wumvishe ufite ibibazo bitandukanye by'umubiri, uba ugomba kugana kwa muganga kugira ngo bagufashe ubashe gukira kandi ugire ubuzima bwiza.

Ibigo by'ubuzima bitandukanye bikangurira abaturarwanda kwisuzumisha indwara zitandukanye, kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza, ni byiza ko buri muturarwanda asobanukirwa kandi yumva agaciro ko kwisuzumisha indwara, kuko bimurinda indwara zitandukanye kandi akabaho afite ubuzima bwiza.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira ibikoresho byabugenewe, byifashishwa kugira ngo batange serivisi zitandukanye z'ubuvuzi. Bimwe muri ibyo bikoresho twavuga imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho abaganga bambara, kugirango ngo babashe kuba bakirinda indwara zitandukanye, zishobora kuba bakandura, mu gihe bari kuvura abarwayi.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bihuza abantu kugira ngo bibe byabagira inama ku buryo bagomba kwitwara, ndetse no ku buryo bashobora kwirinda, kugira babe babasha kuba bafite ubuzima bwiza. Ni byiza kugana ibi bigo kugira ngo babashe kuba batugira inama, ikindi kandi baduhugugure kuko tugomba kwitwara, kugira ngo twirinde indwara zitandukanye.

Inzobere mu bijyanye n'ubuzima ndetse n'abaganga batandukanye, batanga inama kandi bakanatanga amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima, bityo kugira ngo abantu babashe kuba bakirinda indwara zitandukanye, kandi babe bagana kwa muganga mu gihe bafite ibibazo bitandukanye.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima zigomba kuba zifite isuku, ikindi kandi izi nyubako zigomba kuba zagutse kugira ngo zibashe kwakira abantu benshi batandukanye bazigana. Ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kurengera ubuzima bwacu, tugana ibi bigo kugira ngo bibashe kuba byadufasha.

Inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi iteka bahora biga ku cyatuma abanyarwanda bagira ubuzima bwiza, aho biga gukoresha imashini zabugenewe kugira ngo babe bafasha buri munyarwanda wese kugira ubuzima bwiza.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima, zigira uburyo zubatsemo, ikindi kandi ziba zifite ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo bavure abarwayi batandukanye indwara, ni byiza ko tuba tugomba kugana ibigo kugira ngo bidufashe, bityo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bikangurira abaturarwanda kubigana, ibigo by'umwihariko ibifasha ababyeyi ndetse n'abamama, ni byiza ko baba bagomba kubigana kugira ngo babe babafasha ku ndwara zigiye zitandukanye bityo babeho bafite ubuzima bwiza.

Ibigo nderabuzima ndetse n'ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bifasha abaturarwanda kubaho bafite ubuzima bwiza. Ni byiza ko buri muntu wese agana ibi bigo kugira ngo abashe kuba bamufasha bityo abeho afite ubuzima buzira indwara.

Ibitaro ndetse n'ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi ku barwayi, bimwe muri ibyo bitaro twavuga nk'ibitanda, inzitiramubu ndetse n'ameza byifashishwa n'abarwayi, kugira ngo babashe kuba babona serivisi zinoze.

Ibigo by'ubuvuzi bifasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza ikindi kandi babagira inama ndetse bakabaha n'imiti mu gihe baba bafite uburwayi butandukanye, ni ngombwa ko buri munyarwanda wese amenya ko igihe yumvishe afite ubuzima butagenda neza agana ibi bigo kugira ngo babashe kuba bamufashe.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, biba bifite ibikoresho byifashishwa kugira ngo ababigana babe babasha kubyifashisha, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga intebe z'ubwoko butandukanye, ameza ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abarwayi kugira ngo babashe kuba babona serivisi zinoze.

Inyubako zitandukanye zitanga amahugurwa ku bijyanye n'ubuvuzi, zifasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza, kuko zibasha kubaha imiti kandi bakabasha kuba babakingira kugira ngo uburwayi bwabo bube bwakire.

Inyubako zifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima zigomba kuba zifite isuku aho ziba zikikijwe n'ubusitani butandukanye, ikindi kandi ziba zifite imbuga zo guparikaho imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bihagana bityo kugira ngo hizezwe umutekano wabyo.

Ibigo nderabuzima bitandukanye ndetse n'ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira uruhare mu kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza, ni byiza ko mu gihe twumvise dufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima tuba tugomba kugana aya mavuriro kugira ngo abe yadufasha.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima, ziba zifite ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gutanga serivisi, ni byiza ko mu gihe dufite ibibazo, tuba tugomba kugana aya mavuriro kugira ngo adufashe kuko baba bafite ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo baduhe serivisi zinoze.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima, zigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi ku barwayi, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga ibitanda, intebe ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa, kugira ngo serivisi nziza zigere ku barwayi.

Ibigo bitanga serivise z'ubuzima bitanga inama kandi bigatanga isuzuma ku ndwara zigiye zitandukanye, aho babasha kumenya uko umuntu ahagaze kugira abashe kuba yahabwa inama kugira ngo yirinde indwara zitandukanye, bityo abe afite ubuzima bwiza.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima, ziba zifite inyubako zifite ibikoresho bitandukanye, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga nk'ibitanda byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi. Ni byiza ko mu gihe dufite ibibazo tuba tugomba kugana amavuriro kuko aba agomba kudufasha bifashisha ibikoresho bitandukanye bigezweho.

Imashini zabugenewe mu gukora no gukusanya imiti zigiye zifite akamaro gatandukanye aho abazikoresha bavuga ko zibafasha gukora imiti neza, ikindi kandi zikaba zituma abaturage mu Rwanda babasha kwihaza ku miti, kandi bakaba banafasha n'abandi bose bayikeneye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bigira ibikoresho bitandukanye, bifasha mu gutanga serivisi nziza. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kugana ibi bigo, kuko baba bafite ibikoresho bitandukanye, twavuga nk'ameza, intebe ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bibafasha mu gutanga serivisi nziza ku barwayi.

Inyubako zitandukanye zitanga serivisi z'ubuvuzi, zigira ibikoresho by'amoko agiye atandukanye, bifasha kugira ngo batange serivisi nziza z'ubuvuzi, ni byiza ko tuba tugomba kugana ibi bigo kuko badufasha, bityo tukarushaho gukomeza kugira ubuzima bwiza, buzira indwara.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima, ziba zifite ubusitani bukikijwe n'ubwoko butandukanye bw'ibimera kugira ngo bibashe kuba byavanwamo imiti igiye itandukanye, ishobora kuba yakwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima haba hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bifasha mu kuvura abarwayi batandukanye. Bityo ni byiza ko twese tuba tugomba kugana izi nyubako kuko baba bashobora kudufasha mu kugira ngo badusuzume indwara zitandukanye kandi babe banaduha imiti.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima, haba hari ibikoresho bitandukanye bifasha abarwayi kugira ngo bahabwe serivisi zinoze. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kugana ibi bigo kugira ngo babe badufasha bityo tubeho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira ibikoresho bitandukanye bibafasha gutanga serivisi zitandukanye z'ubuzima, urugero, twavuga: nk'ibitanda, ameza ,utubati ndetse n'intebe bifasha kugira ngo abarwayi babashe kuba babona serivisi zibanogeye.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima, bagira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi. Bimwe muri ibyo bikoresho twavuga ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo bahe serivisi nziza abarwayi, bityo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Ibikorwa remezo by'umwihariko inzu zitanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi ziba zigomba kuba zifite isuku kugira ngo bityo imiti ibikwamo ibe ifite umutekano, ikindi kandi ni byiza ko izo nzu zigomba kuba zifite isuku kugira ngo abazigana nabo babashe kuba bahakura ubuzima bwiza.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima, zigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi; ni byiza ko mu gihe tumvise dufite ibibazo, tugana aya mavuriro kugira ngo abashe kuba yadufasha, bityo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Mu nyubako zitangirwakwaho serivisi z'ubuzima, haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho ababigana babafasha kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri, bityo babeho bafite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima by'umwihariko ibigo nderabuzima, bigira ahantu habugenewe bakirira abaza babigana kugira ngo babone aho baruhukira mu gihe bategereje guhabwa serivisi baje gushaka kuri ibi bigo.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima, aho bafasha abana batoya ndetse n'ababyeyi kugira ngo babashe kuba bagira ubuzima bwiza. Ibi bikoresho bifasha abantu kuba babasuzuma kandi bakabavura indwara zitandukanye bityo bakaba bafite ubuzima bwiza.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga ameza ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo basuzume abarwayi, bityo babashe kuba bavura indwara zitandukanye, ni byiza ko tugana ibi bigo kugira ngo bibe byadufasha.

Inzobere mu buvuzi bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo basuzume neza indwara zitandukanye, ikindi kandi ibi bikoresho babyifashisha kugira ngo babe bavumbura inkingo zitandukanye, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga; mudasobwa zigezweho ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, bibafasha kugira ngo bakore umurimo wabo neza.

Amavuriro atandukanye mu gihugu aba afite inzobere zitandukanye mu buvuzi, aho bafasha buri murwayi wese urwaye indwara zitandukanye kuba yakira, ikindi kandi bagatanga n'ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima.

Abaganga basobanurira neza ababyeyi uburyo bwo kwita ku bana, kuva akivuka kugeza akuze bityo kugira ngo bababashe kuba bagira ubuzima bwiza, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kurengera umwana kuko bimufasha gukura afite ubuzima bwiza.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bikangurira buri muntu wese kuba yabigana kugira ngo babe bamufashe kuko bafite inyubako zabugenewe ziba zifite ibikoresho bigiye bitandukanye, bibafasha kuba babasuzuma ndetse bakaba babasha kuba babaha imiti bityo indwara bafite zikaba zabonerwa imiti.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi ni bimwe mu bifasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza, ibi bigo bitanga imiti ikindi kandi bitanga n'inama ku bafite uburwayi bugiye butandukanye. Ni byiza ko mu gihe tugize ibibazo bitandukanye by'ubuzima, tuba tugomba kugana ibi bigo kugira ngo bibe byadufasha.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bikangurira abaturarwanda kuba babigana kugira ngo babafashe mu burwayi bugiye butandukanye. Ni byiza ko mu gihe dufite uburwayi bw'ubuzima, tuba tugomba kugana ibi bigo kugira ngo batugire inama kandi baduhe imiti ishobora kudufasha.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bigira ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo bafashe abarwayi baza babigana, twese tugomba kugana amavuriro mu gihe twumva dufite ibibazo by'uburwayi, kuko bashobora kuba badufasha, bityo tukaba dufite ubuzima bwiza.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima bigira ibikoresho bitandukanye bishobora kuba byafasha ababigana kugira ngo babe babyifashisha. Bimwe muri ibyo bikoresho twavuga: intebe, ameza, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi.

Ibigo by'ubuvuzi, bigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo bite ku barwayi ndetse n'ababigana bityo abaturarwanda bagire ubuzima bwiza.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima iyo zifite ubusitani bwiza ndetse n'ibiti bifasha kugira ngo abantu bahumeke umwuka mwiza, bizifasha kugira ngo abahagana babone ubuzima bwiza, aho kuba bataha bafite uburwayi butandukanye.

Inyubako zagenewe kubika imiti mu Rwanda, zifite akamaro gakomeye kuko zifasha abaturage kuba babona imiti ku buryo bwihuse kandi bworoshye, bityo bigafasha abaturarwanda kuba babaho bafite ubuzima bwiza.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bifasha abaturarwanda ku bibazo bijyanye n'ubuzima. Ni byiza ko mu gihe dufite ibibazo bijyanye n'ubuzima tuba tugomba kugana ibi bigo, kugira ngo babe badufasha bityo dukire indwara zitandukanye.

Buri Karere mu Rwanda kagira ibitaro, bityo ibyo bitaro bitanga serivisi z'ubuzima zigafasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko mu gihe dufite uburwayi butandukanye tuba tugomba kugana ibi bitaro byadushyiriweho, kugira ngo babe badufashe.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, biba bifite abaganga b'inzobere bafasha ababigana kugira ngo bababe bafite ubuzima bwiza. Ikindi kandi ibi bigo biba bifite inyubako zigezweho, aho biba bifite ibikoresho bitandukanye bifasha abarwayi babigana kugira ngo babone serivisi bakeneye.

Mu bigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuvuzi, bagira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza z'ubuvuzi. Bimwe muri ibyo bikoresho twavuga intebe, ameza ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bigira abaganga babihuguriwe kugira ngo bagire inama kandi batange imiti itandukanye ku ndwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko tugana aya mavuriro kugira ngo abashe kuba yadufasha, bityo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima usanga ku ruhande zifite imirima iteyemo ubwoko bw'ibimera bitandukanye byifashishwa kugira ngo bibe byabasha gukurwamo imiti ishobora kuvura indwara zitandukanye, bityo bigafasha kugira ngo abantu babe babasha kubona imiti.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi, bimwe muri' ibyo bikoresho twavuga nk'ibyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ibitanda byifashishwa mu kugira ngo abarwayi babiryameho ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyubako zitangirwamo ubujyanama ndetse n'amahugurwa ku bijyanye n'ubuvuzi, ziba zigomba kuba zifite ibikoresho bigiye bitandukanye twavuga; intebe nziza zo kwicaraho, ameza yo gukoresha kugira ngo abazigana babe babasha kuba bahabwa amahugurwa ku buryo butekanye.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima biba bifite ibikoresho bitandukanye, twavuga nk'intebe ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi zinoze. Ni byiza ko twe tugana ibi bigo tuba tugomba gusigasira ibi bikoresho kugira ngo bibashe kuba byagira umutekano bityo dukomeze tugire ubuzima bwiza.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima, zigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo basuzume kandi bavure ababigana indwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko mu gihe twumvishe dufite ibibazo by'ubuzima, tugana ibi bigo kugira ngo babashe kuba badufashe.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima zigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo bavure indwara zitandukanye. Ikindi kandi izi nyubako zigira ibishushanyo bifasha ababigana kugira ngo babagire inama kandi babahugure babasobanurira ku kuntu baba bashobora kwirinda indwara.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima bifasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko twumvishe dufite ibibazo by'ubuzima tuba tugomba kugana ibi bigo kugira ngo bibashe kuba byadufasha, kuko biturinda kugira indwara zitandukanye.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima ziba zifite ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo bafashe abarwayi baza babigana. Ni byiza ko mu gihe twumvise dufite ibibazo bitandukanye tugana ibi bigo kugira ngo babashe kuba baduha serivisi z'ubuzima bityo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuvuzi, zigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi ku barwayi, byifashishwa kandi mu kuvura abarwayi batandukanye, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga nk'imyambaro abaganga baba bambaye ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo bahe imiti itandukanye abarwayi.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima, bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo bafashe abarwayi, bimwe muri ibyo bikoresho hari byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ikindi kandi izi nyubako zigira ibibuga bisanzuye, aho abantu benshi bashobora guhurira kugira ngo babe babasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibigo bitandukanye by'ubuvuzi bitanga inama ku Baturarwanda, ku buryo bakwirinda indwara, ndetse ikindi babafasha kubona imiti ku gihe kugira ngo babe babasha kwivura mu gihe baba bafite indwara zitandukanye, Umunyarwanda wese aba agomba gusobanukirwa neza akamaro ko kurengera ubuzima bwe kugira ngo abashe kwirinda indwara zitandukanye.

Mu bigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bagira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi. Bimwe muri ibyo bikoresho twavuga ibitanda ndetse n'izindi mashini zifashishwa kugira ngo basuzume kandi bavure abarwayi.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima abaganga bambara imyambaro ndetse n'ibikoresho byabigenewe iyo batanga serivisi kugira ngo babashe kuba bakikingira indwara ikindi kandi muri izi nyubakoba hari ibikoresho bigiye bitandukanye bifasha kugira ngo batange serivisi nziza z'ubuzima.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima ziba zifite ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babike neza imiti, bityo kugira ngo bakomeze bayihe ubuziranenge, ni byiza ko dusigasira ibikoresho kugira ngo bikomeze bidufashe bityo tubashe kuba twakwirinda indwara zitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira ubwoko bw'imiti itandukanye, ifasha abarwayi kugira ngo bakire indwara zabo. Ni byiza ko mu gihe twumvise dufite ibibazo, tuba tugomba kugana aya mavuriro kuko baba bafite imiti ishobora kudufasha mu kugira ngo dukire indwara zitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bidukangurira gukora imyitozo ngororamubiri kuko birinda ubuzima bwacu indwara zitandukanye. N'ibyiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza kugana ibi bigo kugira ngo dukore imyitozo ngororamubiri kuko biturinda indwara zitandukanye bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bikangurira abantu bose gukoresha amazi meza kugira ngo barengere ubuzima bwacu, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kunywa amazi meza kugira ngo tube twakwirinda indwara zitandukanye zishobora guterwa n'umwanda.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni bimwe mu bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza ni ngombwa ko buri munyarwanda wese asobanukirwa agaciro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko bifasha ubuzima kugenda neza hato umuntu akaba yakirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ibigo by'amashuri na byo bikangurira abanyeshuri gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza, twese gusobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko bifasha ubuzima bwacu.

Kunywa amazi meza kandi menshi bifasha umubiri wacu kugenda neza bityo bikaba byaturinda indwara zitandukanye, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kunywa amazi menshi kandi meza kugira ngo turengere ubuzima bwacu.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umubiri wacu kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, kuko biwurinda kuba warwara uburwayi bugiye butandukanye.

Uburyo butandukanye bwifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, budufasha kugira ngo twirinde indwara zigiye zitandukanye. Ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, ikindi kandi biturinda indwara zitandukanye.

Mu bigo bitanga serivise z'ubuzima bagira ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko bidufasha kubaho dufite ubuzima bwiza.

Ni byiza ko dukoresha imbuto ndetse n'imboga kugira ngo twirinde indwara zitandukanye. Ikindi kandi gukora imyitozo ngororamubiri, bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza. Twese dusobanukirwa akamaro ko gukoresha imboga ndetse n'imbuto kugira ngo dubeho dufite ubuzima bwiza.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuvuzi, bigira ibyapa bitandukanye bishushanyijeho ibishushanyo, bigaragaza uburyo butandukanye bwo gukoramo imyitozo ngororamubiri. Ni byiza ko tuba tugomba kugana ibyo bigo kugira ngo dusobanukirwe neza akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, kuko birinda ubuzima bwacu.

Inzobere mu buvuzi batugira inama yo gukoresha imbuto ndetse n'imboga, no kunywa amazi kugira ngo turengere ubuzima bwacu, ikindi kandi batubwira ko tugomba kwisuzumisha kwa muganga, bityo kugira ngo babe batugira inama, ku byerekeranye n'ubuzima bwacu.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bikangurira abantu bose gukoresha imbuto, imboga, ndetse n'ubundi bwoko bw'ibimera mu kugira ngo birinde indwara zitandukanye. Ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukoresha imboga ndetse n'imbuto kugira ngo yirinde indwara zigiye zitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, zifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo bite ku barwayi. Ni byiza ko mu gihe twumva dufite ibibazo bitandukanye, tuba tugomba kugana ibi bigo kuko baba bafite ibikoresho bitandukanye bifashisha kugira ngo babe baduha serivisi, bityo tubashe kuba twakira uburwayi butandukanye.

Mu gukora imyitozo ngororamubiri, twifashisha uburyo bugiye butandukanye. Bumwe muri ubwo buryo twavuga: Kwiruka, gusimbuka imigozi ndetse n'ubundi buryo butandukanye bwifashishwa kugira ngo umuntu akore imyitozo ngororamubiri. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko birinda ubuzima bwacu.

Ibibuga bikinirwaho imikino itandukanye, haba hari abantu babihuguriwe batanga serivisi z'ubufasha, kugira ngo babashe kuba bavura abantu bahagiriye ibibazo. Twese dusobanukirwe akamaro k'abo bantu, kuko badufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bifasha umubiri wacu kugira ubuzima bwiza buzira indwara, by'umwihariko ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira ibikoresho byabugenewe, bifasha kugira ngo umuntu akore imyitozo ngororamubiri. Twese dusobanukirwe akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kunywa amazi ahagije, ni kimwe mu bifasha umubiri wacu kwirinda indwara zitandukanye, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko bidufasha kubaho dufite ubuzima bwiza, buzira indwara.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umubiri wacu kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko buri wese yumva akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, kuko biwurinda uburwayi bugiye butandukanye, maze twese tukabaho dufite ubuzima buzira indwara.

Mu bigo by'ubuvuzi bagira imodoka zabugenewe zitwa imbangukiragutabara, zifasha abarwayi kugera kwa muganga bityo bakaba babasha gukurikirana ubuzima bwabo bageze ku bitaro byisumbuye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bigira ibikoresho bitandukanye bishobora kuba byafasha ababigana guhabwa amahugurwa, aho babasobanurira uko bikora, ikindi kandi bakatanga n'inama ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo babashe kwirinda indwara zitandukanye.

Ni byiza ko umuntu asobanukirwa akamaro ko kunywa amazi meza kandi menshi, iyo tunyoye amazi ajya mu mubiri akaba yashobora kuwufasha, bityo ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kunywa amazi meza, kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera kunywa amazi ahagije, ni byiza ko buri wese asobanukirwa akamaro ko kunywa amazi, kuko biturinda indwara zigiye zitandukanye, bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Uburyo dukoramo imirimo ndetse n'uburyo dukoramo imyitozo ngororamubiri, bigira uruhare mu kwangirika k'ubuzima bwacu, ni byiza mugihe wicaye cyangwa se uryamye, umenye uburyo bukwiriye ugomba kwifata kugira ngo urinde umubiri wawe.

Inzobere mu buvuzi bagenda bakora ubushakashatsi butandukanye, aho biga ku bice by'umuntu kugira ngo babe basobanukirwe neza uburyo bavura, abaganga bakora neza akazi kabo kugira ngo babe babasha kuba barokora ubuzima bwa benshi.

Uburwayi bw'imitsi ndetse n'imvune zitandukanye, ni bimwe mu bibangamiye abaturarwanda, ni byiza ko mu gihe tugize ibibazo bitandukanye nk'ibyo tuba tugomba kugana amavuriro kuko ashobora kudufasha, kandi akaduha n'imiti itandukanye kugira ngo tubashe kuba twakira ubwo burwayi.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira imiti igye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ni byiza ko mu gihe twumvishe dufite ibibazo bitandukanye, tugana aya mavuriro kugira ngo abashe kuba yadufasha, bityo tubeho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibigo bitanga serivise z'ubuvuzi, bigira inama abantu kubigana kuko bibafasha mu buryo bugiye butandukanye aho bibaha ibikoresho kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri, ikindi kandi babakorera serivisi zigiye zitandukanye, zibafasha kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umubiri wacu kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko bidufasha kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Twese dukore imyitozo ngororamubiri kuko birinda ubuzima kandi bikaba byadufasha gukira indwara zitandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, ni ngombwa ko buri munyarwanda wese asobanukirwa neza agaciro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko bimufasha kugira ubuzima bwiza.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, abaganga bifashisha ibikoresho bitandukanye, bibafasha kugira ngo babe bafasha abarwayi, bimwe muri ibyo bikoresho harimo ibibarinda kuba bakandurira indwara, ikindi kandi bimwe muri ibyo bikoresho byifashishwa kugira ngo basuzume kandi binjize imiti mu mubiri y'abarwayi.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umubiri wacu kwirinda indwara zitandukanye, ikindi kandi tukabaho dufite ubuzima bwiza. Ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, kuko biturinda kandi tukaba tubaho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuvuzi bagira ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi nziza ku barwayi, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga nk'ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, bifasha abarwayi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri, ni kimwe mu bidufasha kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko buri muturarwanda asobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko biturinda indwara zigiye zitandukanye, ikindi kandi gukora imyitozo ngororamubiri bifasha ubuzima bwacu kugororoka, tukabaho dufite ubuzima bwiza.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo barengere abarwayi buri gihe twavugada twifashishwa kugira ngo babashe kuba batwara abarwayi bafite ibibazo bitandukanye ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kugana aya mavuriro kugira ngo babashe kuba badufashe.

Imyitozo ngororamubiri ifasha buri muntu wese kugira ubuzima bwiza, ni ngombwa ko buri wese akora siporo kugira ngo abashe kurengera ubuzima bwe, ikindi kandi mu gihe wumbishe ufite uburwayi uba ugomba kugana kwa muganga kugira ngo bagufashe ubashe gukira.

Inzobere mu bijyanye n'ubuzima, bagira abantu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bibafashe kugira ubuzima bwiza, by'umwihariko abantu bahora bicaye, ni byiza ko bahaguruka bagakora imyitozo imwe itandukanye kugira ngo babashe kuba bagorora ingingo zabo.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, bifasha abaganga ndetse n'inzobere mu buvuzi, kuba bakora ubushakashatsi kugira ngo barebe uburyo baba bafasha abarwayi kuba bakira indwara zigiye zitandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni bimwe mu birinda umuntu kuba yarwaye indwara zitandukanye, ni byiza ko tugana kwa muganga kugira ngo badufashe kugorora imitsi, ndetse n'ingingo zigiye zitandukanye kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Uburyo butandukanye bwifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, bufasha abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye, bityo tukaba dufite ubuzima bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha ubuzima bwacu kwirinda indwara zitandukanye, ikindi kandi abafite ubumuga nabo bashyiriweho uburyo butandukanye bashobora gukora siporo, bityo kugira ngo nabo ubuzima bwabo bube bwagenda neza budafite indwara.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umubiri wacu kubaho ufite ubuzima bwiza, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko biturinda indwara zigiye zitandukanye bityo tukabaho dufite amagara mazima.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bigira inama kandi bikaburira abantu kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge, ikindi kandi batugira inama zo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza, buzira indwara.

Gukora imyitozo ngororamubiri, bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, aho bigenda bimurinda indwara zigiye zitandukanye, zishobora kuba zamutera. Ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abarwayi bahura n'uburwayi bwo ku kuvuka cyangwa se kwangirika zimwe mu ngingo, na bo bahabwa ubufasha kugira ngo babe babashe kugira ubuzima bwiza bityo babashe gukora imirimo itandukanye. Ni byiza ko buri munyarwanda wese asobanukirwa agaciro ko kujya kwisuzumisha mu gihe yumva hari urugingo rutagenda neza.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bikangurira abantu bose kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge, ikindi kandi bibagira inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kuko ibafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kwirinda ibiyobyabwenge kandi tugakora imyitozo ngororamubiri bikadufasha kugira ubuzima bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umuntu wese kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko biturinda indwara zitandukanye, bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza buzira indwara, twese twihatire gukora imyitozo ngororamubiri.

Kumenya ndetse no gusobanukirwa uburyo butandukanye ushobora gukuramo imyitozo ngororamubiri, ni bimwe mu bifasha umubiri wacu kugira ubuzima bwiza. Ibigo bitandukanye bitugira inama ku gukora imyitozo ngororamubiri, kuko biturinda indwara zigiye zitandukanye, bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza. Ni ngombwa ko buri munyarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukora siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abashe kuba yagira ubuzima bwiza.

Kunywa amazi meza no gukora imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bifasha ubuzima bwacu kugenda neza, ni byiza ko buri muntu wese asobanukirwa akamaro ko kunywa amazi menshi kandi meza kugira ngo ubuzima bwe bugende neza kandi bubeho nta ndwara bufite.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza ko tugana ibi ibigo kugira ngo tubashe kuba twakora imyitozo, bityo turinde imibiri yacu kuba yafatwa n'indwara zitandukanye, bityo tubeho dufite ubuzima bwiza.

Ibimera bitandukanye byifashishwa kugira ngo bivure indwara zitandukanye, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera kuko bidufasha kugira ngo twirinde indwara kandi tuzivure bityo tukabaho dufite ubuzima buzira indwara.

Imiti ikomoka ku bimera yifashishwa cyane cyane mu kuvura indwara ziba zarananiranye. Ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa neza agaciro ko gukoresha imiti yaturutse ku bimera kuko idufasha kwivura ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye inyinshi ituruka mu bimera, ni byiza ko twihatira gukoresha ibimera bitandukanye kuko bishobora kuturinda indwara, ikindi kandi ibi bimera tubyifashisha mu kwivura indwara zigiye zitandukanye.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti itandukanye ishobora kuvura indwara nyinshi. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera, kuko byifashishwa mu kuba byatuvura indwara zitandukanye, bityo tukaba dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Imbuto ni bimwe mu bimera byifashishwa kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwe akamaro ko gukoresha imboga ndetse n'imbuto, kugira ngo yikingire kandi yivura indwara zigiye zitandukanye, bityo agire ubuzima bwiza.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera kuko bidufasha kugira ngo tube twakora imiti itandukanye ishobora kutuvura bityo tubeho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibimera by'ubwoko butandukanye bufasha abaturarwanda kwivura indwara zitandukanye, ikindi kandi mu gihe ibimera bikoreshejwe neza ni bimwe mu bifasha kuba wakira uburwayi bugiye butandukanye utagombye kujya kwa muganga.

Imbuto zitandukanye by'umwihariko amarongi, indimu ndetse n'izindi zitandukanye, zifashishwa mu kuvanwamo imiti ishobora kuvura uburwayi bugiye butandukanye, ni ngombwa ko buri wese yihatira gukoresha imbuto kugira ngo abe yakwivura indwara zitandukanye.

Abanyarwanda bakoresha imiti gakondo igiye itandukanye ivanwa mu bimera kugira ngo bivure indwara zigiye zitandukanye, twese tugomba gusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera bitandukanye kugira ngo twivure indwara zishobora kuba zabangamira ubuzima bwacu.

Inzobere mu buvuzi zisobanurira abantu ubwoko bw'ibimera bitandukanye, byifashishwa kugira ngo habe hakivuzwa indwara zitandukanye, bimwe muri ibyo bimera twavugamo ibikakarubamba ndetse n'ibindi bwoko bw'ibimera, bwifashishwa kugira ngo habe havurwa indwara zitandukanye.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye imwe n'imwe ivanwa mu bimera bigiye bitandukanye. Ni byiza ko nk'abanyarwanda twihatira gukoresha imiti gakondo by'umwihariko ibimera, kugira ngo tube twakivura indwara zitandukanye.

Imiti itandukanye ivanwa mu bimera ni imwe mu bifasha imibiri yacu kugira ngo igire ubudahangarwa ku ndwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko buri munyarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukoresha iyi miti kuko biturinda kuba twarwara indwara zitandukanye.

Ibimera byifashishwa mu kuvanwamo imiti itandukanye ishobora kwifashishwa kugira ngo havurwe indwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera kuko bishobora kuvura indwara bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza.

Ibimera bitandukanye, twavuga nk'imboga, imbuto ndetse n'ubundi bwoko bw'ibimera bitandukanye, byifashishwa mu kuba byavanwamo imiti itandukanye ishobora kuvura indwara. Ni byiza ko buri wese asobanukirwa akamaro ko gukoresha ibi bimera kugira ngo abashe kuba yakwivura indwara zitandukanye.

Gukoresha imiti gakondo bifasha abantu bose kuba bakira indwara zigiye zitandukanye. Ni byiza ko twese dusobanukirwa agaciro ko gukoresha iyi miti, kuko ishobora kutuvura kandi ikaturinda indwara zitandukanye, bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza.

Abanyarwanda bakoresha ibimera bitandukanye mu kwivura indwara zimwe na zimwe, ni byiza ko buri wese asobanukirwa agaciro ko gukoresha ibimera, kugira ngo yirinde indwara zitandukanye, by'umwihariko ibimera, ibikakarubamba ndetse n'ibindi, nk'ibyo ni bimwe mu bimera byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ni byiza ko twese twihatira gukoresha iyi miti kuko ishobora kutuvura indwara zitandukanye, twavuga nk'izifata mu rwungano rw'inkari ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu bice by'umubiri.

Gukoresha imbuto ndetse n'imboga mu kwivura indwara zitandukanye bifasha ubuzima bwacu kugenda neza. Ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera birimo imbuto, ndetse n'imboga kugira ngo abeho afite ubuzima bwiza.

Ibimera by'ubwoko butandukanye, byifashishwa kuba havanwamo imiti ishobora kuvura indwara zitandukanye, ni byiza ko buri muntu asobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera kuko bishobora kudufasha kwivura indwara, bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bitugira inama zo gukoresha imbuto ndetse n'imboga, kugira ngo twirinde indwara zitandukanye. Ni byiza ko buri munyarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukoresha imbuto, kugira ngo abashe kuba yagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu kuba hakurwamo imiti itandukanye ishobora kuvura indwara nyinshi, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera mu kwivura indwara zigiye zitandukanye bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ni byiza ko twese nk'abaturarwanda twihatira gukoresha ibimera kuko biturinda kandi bikaba byatuvura indwara zitandukanye. Bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibimera by'ubwoko butandukanye byifashishwa kugira bikurwemo imiti ishobora kuvura indwara nyinshi, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera kuko bidufasha kwivura ndetse no kwirinda indwara, bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukoresha iyi miti kuko iturinda ikindi kandi ikaba idufasha kugira ubuzima bwiza, twese dusobanukirwa akamaro ko gukoresha imiti gakondo mu kwirinda ndetse no kwivura indwara.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho usanga bigenda bivura indwara zitandukanye. Ni byiza ko buri munyarwanda wese asobanukirwa neza uburyo ibi bimera bikoreshwa, kugira ngo bibe babyifashisha mu kwivura uburwayi bugiye butandukanye.

Imiti itandukanye ivanwa mu bimera, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ubwonko, ni byiza ko twihatira gukoresha iyi miti kugira ngo tube twabasha gukira indwara zitandukanye, cyane cyane izishamikiye ku bwonko ndetse no mu mutwe.

Ubwoko bw'imiti gakondo igiye itandukanye na bwo buri mu buryo bufasha abaturarwanda kwivura, ikindi kandi ibyatsi ndetse n'imboga n'imbuto bifasha abantu kuba bagira ubuzima bwiza bityo ni ngombwa ko buri munyarwanda yumva ko agomba kubikoresha.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera kuko biturinda kandi bikadufasha kwivura indwara zitandukanye bityo tukaba dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibimera by'ubwoko bwinshi byifashishwa mu kuba byakurwamo imiti y'ubwoko butandukanye ishobora kuvura indwara. Ni byiza ko abaturarwanda dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera mu kwivura indwara zigiye zitandukanye kuko bishobora kudufasha.

Ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Aha twavuga; ibicunshu, umuravumba, ibikakarubamba ndetse n'ibindi. Ni ngombwa ko buri munyarwanda wese yihatira kuba yakoresha ibimera kugira ngo abe yakivura indwara zitandukanye.

Ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuba byavanwamo imiti ishobora kuvura indwara nyinshi, ni byiza ko buri wese asobanukirwa agaciro ko gukoresha ibimera kuko byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, bityo umuntu akaba afite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibimera by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imiti itandukanye, ishobora kuvura indwara nyinshi. Ni byiza ko buri munyarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera mu kwivura indwara zitandukanye, kugira ngo abeho afite ubuzima bwiza buzira indwara.

Imiti imwe n'imwe yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ivanwa mu bimera, ni byiza ko twese nk'abaturarwanda dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera kuko bidufasha kwivura indwara zitandukanye, tukabaho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti itandukanye ishobora kuvura indwara zitandukanye, ni byiza ko twese twihatire gukoresha ibi bimera kugira ngo turengere ubuzima bwacu kuko bidufasha kwivura indwara zitandukanye.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu kuba byavanwamo imiti ishobora kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa neza gukoresha ibi bimera kugira ngo yirinde indwara zitandukanye, bityo abeho afite ubuzima bwiza.

Imiti gakondo igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha iyi miti, kuko bidufasha kwivura indwara zitandukanye, bityo tukaba dufite ubuzima bwiza.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara, ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera bityo tukabaho dufite ubuzima buzira indwara, twese dusobanukirwe akamaro ko gukoresha ibimera ndetse n'imbuto zitandukanye.

Ibimera by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu kuvura indwara, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera kuko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye, bityo ikindi kandi bidufasha kwivura tukabaho dufite ubuzima bwiza.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, twese ni byiza ko dusobanukirwa agaciro ko gukoresha iyi miti, kuko ishobora kurinda kandi ikavura indwara zigiye zitandukanye zishobora kuba zabangamira ubuzima bwacu.

Imiti myinshi gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, imyinshi ikurwa mu bimera. Ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha imbuto ndetse n'imboga, kuko biturinda kandi bikatuvura indwara zitandukanye, bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko buri wese asobanukirwa agaciro ko gukoresha ibimera bigiye bitandukanye kuko birinda umubiri wacu indwara zigiye zitandukanye, bityo twese tukaba dufite ubuzima bwiza.

Gukoresha ubwoko bw'ibimera ndetse n'imbuto, bidufasha kwirinda indwara zitandukanye. Ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ubu bwoko bw'imbuto ndetse n'ibimera kugira ngo twikingire kandi twivure indwara zitandukanye, bityo tubeho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, inyinshi ikomoka mu bimera, ni byiza ko twihatira gukoresha ibyo bimera kugira ngo bibashe kuba byaturinda indwara, ikindi kandi iyi miti itufasha kwivura indwara zigiye zitandukanye, bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza.

Imiti gakondo yifashishwa cyane kugira ngo abanyarwanda bagire ubuzima bwiza, ni byiza ko buri munyarwanda wese asobanukirwa uburyo bwo gukoresha imiti gakondo, mu kurengera ubuzima bwe kugira ngo abashe kuba yakomeza gukora imirimo igiye itandukanye.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye. Buri muturarwanda buri wese agomba kwihatira gukoresha ibimera kuko bimufasha kuba yakivura indwara zitandukanye hatagombeye kujya kwa muganga.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye. Twese ni byiza ku twihatira gukoresha iyi miti kuko bidufasha kuba twakira indwara zitandukanye, bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bitanga inama kandi bigatanga imiti itandukanye, ku ndwara zitandukanye, imwe muri izo ndwara twavuga Amibe ndetse n'izindi ndwara, aho abaganga batangaza ko bafite imiti ishobora kuba yazivura.

Ibimera bitandukanye byifashishwa gukora imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko gukoresha imiti gakondo kuko bimufasha kuba yakwivura kandi akirinda indwara zitandukanye atarinze kujya kwa muganga.

Inzobere mu buvuzi bifashisha imiti gakondo kugira ngo babashe gukingira kandi bavure indwara zitandukanye, iyi miti ikorerwa isuzuma kugira ngo barebe niba yujuje ubuziranenge, bityo ibafashe kuba yahabwa abarwayi bayikeneye. Ni byiza ko tuba tugomba kugana aya mavuriro kugira ngo abashe kuba yadufasha.

Gukoresha imbuto zitandukanye kugira ngo twikingire indwara zitandukanye, ni byiza ku buzima bw'umuntu kuko imbuto ziba zirimo, ubwoko bw'inintungamubiri butandukanye, budufasha kugira ngo twikingire indwara, ni byiza gukoresha imbuto kuko bifasha umubiri wacu kwirinda indwara zigiye zitandukanye.